Kwa muganga akenshi hatangirwa serivise zigiye zitandukanye, z'ubuvuzi cyane ko aha ngaha ari icyumba kiri mu bitaro, aho harwariye ababyeyi, ndetse n'abandi bagiye batandukanye muri rusange, bityo bakitabwaho neza bahabwa serivise zinoze.

Mu nzu zabugenewe zikunze gupima ibizamini by'abarwayi ndetse no gusuzuma imiti, abaganga bazikoramo babugenewe, bagomba kuba bambaye imyenda ihisha amasura yabo kugira ngo atangirika. Bityo bikabafasha gukora akazi kabo neza.

Aba ni abakorerabushake bo mu muryango wa kuruwaruje, ushinzwe gutabara indembe ndetse n'inkomere, igihe habaye ikibazo runaka, gituma ubuzima bw'abantu bujya mu kangaratete.

Hano ni kwa muganga aho abarwayi barembye cyane babanza kubashyira kugira ngo bakorerwe ubutabazi bw'ibanze.

Mu gihe abaturage baba bafite ibibazo bigiye bitandukanye by'uburwayi, hari ubwo badashobora kubona uko bagera kwa muganga bityo abaganga ndetse n'izindi nzego z'ubuzima zikaba zigomba kwegera abo baturage zikabegereza imiti ndetse zikanatabarira ku gihe igihe bibaye ngombwa.

Mu buryo bwo kubungabunga ubuzima bw'abarwayi igihe barembye, ibitaro byose bikwiye kugira imodoka zabugenewe kandi zihuta, zigeza inkomere kwa muganga kugira ngo zitabweho hakiri kare.

nzego z'umutekano ndetse zifatanyije n'izishinzwe ubuzima bwiza bw'abaturage, ni ngombwa yuko zifatanya imbaraga zigahuza ingufu kugira ngo harwanwe ibyorezo bigiye bitandukanye ndetse n'indwara.

Mu rwego rwo kwirinda gukwirakwiza indwara zandura zirimo na COVID 19 abaganga bakwiye kwambara ibikoresho byabugenewe ndetse n'udupfukagabanwa kugira ngo bakomeze bahangane n'icyorezo.

Mu rwego rwo kubungabunga ireme ry'ubuvuzi, ibitaro bigiye bitandukanye bigomba kugira inzobere zifite ubumenyi buhambaye ku buryo zikora. Ibyo bigafasha kubungabunga neza ubuzima bw'abarwayi ndetse no kubitaho, babaha ubufasha bukenewe kandi buciye mu mucyo.

Aba ngaba ni abaganga bo ku kigo nderabuzima barimo biga ibijyanye n'ibyatsi bishobora gukorwamo imiti ishobora gufasha abaturage igihe barwaye indwara runaka.

Inzego zibishinzwe z'ubuzima akenshi zishishikariza abarwayi kutarwarira mu rugo ahubwo bakajya kwa muganga kuko iyo batagiyeyo ubuzima bwabo babushyira mu kangaratete kandi bidakwiye kuko baba bagomba gufata imiti kandi bakayifatira ku gihe, ibyo bigatuma ubuzima bwabo bubungwabungwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi.

Abasaza bakuze ndetse n'abakecuru bashesha akanguhe, bakunze guhura n'ibibazo by'umuvuduko w'amaraso, aho ibitaro bibashishikariza kugana kwa muganga kugira ngo bafashwe ndetse bahabwe n'imiti.

Mu rwego rwo kunoza ibikorwa by'ubuvuzi, abantu benshi bagirwa inama yo gutegereza igihe hari kwakirwa abandi ,bityo bigatuma n'abatanga serivise badashyirwaho igitutu, ubundi buri wese akuzuzanya na mugenzi we.

Hano ni mubitaro kwa muganga, muganga yicaranye n'umurwayi arimo kumugira inama.

Inzego z'umutekano ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye, bakwiye kwegera abaturage, bakabagezaho ibyo baba barasezeranyije kuzabafasha ndetse bagakemura n'ibibazo bigiye bitandukanye abaturage bahura na byo.

Mu bitaro bigihe bitandukanye, ni ngombwa y'uko habamo umukozi wabugenewe, ushinzwe gukoresha ibikoresho bigiye bitandukanye nka mudasobwa, kugira ngo harebwe ibizami biba byatanzwe n'abarwayi.

Ni ngombwa ko mu bitaro bigiye bitandukanye hagomba kuba hari ibikoresho by'umwimerere ndetse bifite n'ubuziranenge kugira ngo igihe abaganga barimo bakora akazi kabo bitabatenguha bityo abarwayi bakaba bakwisanga bameze nabi.

Ibi bitaro bigiye bitandukanye bikwiye kugira inzobere mu by'ubuzima, aho hagomba kuba hari impuguke zahuguriwe buri gahunda yose ibarizwa kwa muganga nko kubaga, kwita ku barwayi, kuvura amaso ndetse n'izindi ndwara bityo bigatuma abaturage babasha kubona ubuvuzi bakeneye.

Mu rwego rwo kugeza abaturarwanda ku iterambere rirambye ndetse no kubegereza ibikorwa remezo, Leta ishyiramo imbaraga nyinshi mu kwegereza umuriro abaturage batuye ahantu hahanamye cyangwa se habi, babahereza imirasire ikoresha umuriro w'ingufu z'izuba.

Aha ngaha ni kwa muganga, aho muganga yitira ku barwayi ndetse akabaha n'ubufasha mu buvuzi bugiye butandukanye.

Ibitaro byose bikwiye kugira inzobere zabihuguriwe ndetse zishinzwe kwita ku barwayi bityo bigatuma bakomeza kugira ubuzima bwiza ndetse zikaba zanashobora kuvura indwara zananiranye, binyuze mu mucyo.

Abaganga ni bamwe mu bantu bakiza cyangwa se bakarokora ubuzima bw'abatari bake, igihe abarwayi baje babagana. Bakabafasha kubahereza imiti ituma bongera kwiyumvamo imbaraga ndetse bakagubwa neza.

Abantu bahagaze harimo abicaye bari gusuzumwa .

Ku bigonderabuzima cyangwa ku bitaro bigiye bitandukanye ni ngombwa ko baba bafite umwanya wagenewe ubwogero. Abaje bagana ibyo bitaro bose bagomba kuhanyura bakabanza bagakaraba intoki n'amazi meza n'isabune, bikabafasha kwirinda ibyorezo birimo covid19, mabege ndetse n'ibindi byorezo bigatuma abarwayi bakomeza kugira ubuzima ndetse buzira umuze.

Abanyeshuri benshi cyangwa se abakozi basanzwe mu kazi, ni ngombwa ko bajya mu nyubako zabugenewe, zishinzwe gupima ibizami kugira ngo barebe ibyo bariho bapima ndetse babishakire n'imiti.

Abaturage bashishikarizwa kujya kwa muganga kwivuza igihe bumva barwaye cyangwa se batameze neza ndetse muganga akumva uko bameze ubundi bagatanga ibizami, ibyo bikabikwa ahantu heza habugenewe kugira ngo bize gukurwamo ibisubizo bizima maze bahabwe imiti.

Ubuzima bw'abaturageba bugomba kubungwabungwa leta ishyiramo imbaraga nyinshi mu kuzana imiti hanze ndetse ikazana abaganga babihuguriwe kandi bifitiye ubushobozi bigatuma bita ku barwayi bakabaha serivisi zinoze.

Ni ngombwa ko abanyeshuri bihugura mu murimo w'ubuganga ndetse n'izindi nzego z'ubuzima,. bagomba kugira icyumba bafatiramo ibizami ndetse bakihugugora ku buryo bukomeye cyane kugira ngo batazateza ibibazo igihe barimo bahura abaturage. Ibyo bikabafasha rero gukomeza kugira ubumenyi bugiye butandukanye.

Abakozi bo kwa muganga bakwiye kwitonda mu gihe barimo bafata ibizamini by'abarwayi, ndetse banabisuzumamo indwara, kuko igihe habayeho kwibeshya, hashobora kuba ikibazo runaka kitateganyijwe.

Abanyeshuri bo mu makaminuza ajyanye n'ubuvuzi, bakunze guhabwa umwanya bakajya gushyira mu bikorwa ibyo biga, birimo gupima indwara, ndetse n'ibindi.

Aha ngaha ni muri laboratwari y'ibinyabutabire ndetse inapimirwamo ibijyanye n'indwara.

Aha ni mu nzu ya laboratwari, aho ibizami by'indwara runaka bipimirwa bigahabwa ba nyirabyo.

Inzego z'ubuvuzi zigaragaza ko igihe abarwayi bose bajyanywe kwa muganga mu gihe bafashwe n'uburwayi, byongera amahirwe menshi yo kurokora ubuzima bw'abatari bake. Ibyo bigatuma habaho ugushishikariza abantu bose kugana ibigo nderabuzima ndetse n'ibitaro igihe barwaye.

Kwa muganga muri farumasi aho ababyeyi baje kuvuza abana baza gufatira imiti nyuma yo kubonana na muganga.

Inzobere mu by'ubuzima zikaba n'impuguke, zigaragaza ko abaganga kugira ngo batangire kwita ku barwayi bagomba kuba bafite ubumenyi ndetse n'ubuhanga buhanitse, bityo bigatuma banoza akazi kabo ka buri munsi, karimo gutanga imiti ndetse no gupima uburwayi bugiye butandukanye.

Mu gihe abaganga barimo bafata ibizami abarwayi batanze, baba bagomba kwitonda cyane kugirango barebemo indwara bakirinda icyabahungabanya, ndetse bagatekereza kubyo barimo bakora byonyine.

Abaganga baba bagomba gukoresha ubwitonzi, igihe barimo basuzuma imiti cyangwa se bayifata bagiye kuyitera abarwayi, cyane ko ishobora guteza ibibazo cyangwa se ikaba yanangirika, kandi iba yaguzwe amafaranga menshi cyane n'igihugu.

Imashini iri ahantu mu ruganda iriho amaguru menshi cyane hariho n'isaha nini ibara bigaragare ko ari imashini isya ibintu runaka mu ruganda.

Hano ni muri laboratwari cyangwa se mu nzu ifatirwamo ibizami aho indwara zandura zipimirwa na muganga.

Igihe cyose umuturage yumva atameze neza ndetse arwaye agomba kujya kwa muganga agakurikiranwa, akitabwaho kandi agahabwa n'imiti imufasha mu burwayi bwe hagamijwe kugira ngo akomeze agire imibereho myiza ndetse n'ubuzima bwiza muri rusange.

Abajyanama b'ubuzima bakwiye gushyira mu bikorwa inshingano zabo nk'uko bazibwirwa n'abaganga kugira ngo n'abo bazigezaho babashe gufashwa biciye mu nzira nzima.

Mu rwego rwo kubungabunga ubuzima ndetse n'imikurire y'abana bakiri bato, ababyeyi bakwiye guhugurwa kugira ngo bakomeze bareberere neza aho bibarutse ndetse banabaha n'imfashabere ku gihe.

Aha ni ku mushinga, aho abana bari kwitabwaho n'abashinzwe kubitaho.

Iyi ni inyubako ishinzwe kwita ku bana ndetse n'ubuzima bw'imikurire y'abana muri rusange.

Mu gihe habaye ibirori ahantu mu ngo runaka nk'ubukwe ndetse n'ibindi, abaturage bahurira hamwe bagateka bagashyigikira umuryango wagize urubanza, hanyuma ibintu bikagenda neza nkuko babiteguye.

Minisiteri y'ubuzima akenshi ikunze gushishikariza, abaturarwanda by'umwihariko ababyeyi muri rusange kugaburira abana imboga kuko zibafasha kubongerera intungamubiri zigiye zitandukanye, bigatuma bagira imikurire myiza ndetse abaho neza.

Inzego zibishinzwe z'ubuzima zikomeza gushishikariza ababyeyi bafite abanabo bakiri bato kubagaburira indyo yuzuye ndetse bakihuriza hamwe bakagira igikoni gishinzwe gutekera abana ndetse no kubereka uburyo indyo yuzuye yagakwiye kuba imeze.

Ababyeyi bose bafite abana bari kigero kiri hagati y'imyaka ibiri ndetse n'umwe n'igice, bagomba kubazana ku baganga babugenenye kugira ngo bakingire indwara.

Abaganga ndetse n'abandi bantu bashinzwe kurengera ubuzima bw'abana ndetse n'imibereho yabo myiza, bakwiye kubasigasira kugira ngo bakomeze bagubwe neza.

Igihe umubyeyi ari kwa muganga, agiye kubyara cyangwa se kwibaruka, ni ngombwa ko akurikiranwa n'inzego z'ubuzima kugira ngo ubuzima bwe ndetse n'ubw'umwana atwite, bubashe gusigasirwa muri rusange.

Bano ni abakozi bakora mu nzego z'ubuzima bari mu bukangurambaga.

Mu rwego rwo kubungabunga ubuzima bw'abaturage ndetse n'imibereho myiza, Leta igenda ishyiraho ibigo nderabuzima byita ku buzima bw'abaturage ndetse n'ababyeyi n'abana muri rusange.

Ibitaro byinshi bikunze kutagira imiti igiye itandukanye kandi ikomakomeye bitewe n'uko amazu azwi nk'aho acuruza ihene, iyi miti aba yarayiranguye ku buryo bumwe cyangwa ubundi.

Mu rwego rwo kugira ngo abahinzi ndetse n'aborozi bakomeze kugira umusaruro uri hejuru, bagomba guhabwa inyongera musaruro ndetse n'imiti yagenewe amatungo, kugira ngo biteze imbere ndetse basagurire n'amasoko muri rusange.

Ubu ni ubwoko bw'imiti bugiye butandukanye bufunze mu dukarito, harimo ishinzwe kuvura malariya ndetse n'indi igabanya uburibwe.

Ni inyubako y'ubucuruzi itangirwamo serivisi itangirwamo imiti yagenewe kuvura abantu. Muri make iyi nyubako yitwa farumasi.

Iyi ni inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'imiti yagenewe guhabwa abantu ari yo bakunze kwita mu ndimi z'amahanga farumasi, ndetse akenshi ikunze kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Ni ngombwa ko inzego z'ubuzima zishishikariza abaturage uburyo bakwiye kwitwara, ndetse no kugana ibigo nderabuzima igihe bahuye n'ibibazo bibagoye cyane cyane kuba hari imiti yabagenewe kandi igomba kubafasha muri ibyo bibazo byose bahura nabyo.

Mu gihe inzego z'ubuzima ziri mu bikorwa by'ubukangurambaga, abaturage bitabiriye iyo gahunda bakwiye gutega amatwi neza, cyane ko baba bagomba gukora ibyo bategetswe ndetse bakabikurikiza.

Aba ni abaturage bari mu bikorwa by'ubukangurambaga bwo kurwanya ibiyobyabwenge ndetse n'ibyaha bitandukanye, bigenda bikorwa n'abaturage mu buryo budakwiriye.

Mu gihe abaganga ndetse n'abaturage bari mu bikorwa by'ubukangurambaga kuri gahunda zijyanye na serivisi z'ubuzima, bakwiye kwicara bacecetse ndetse bakita ku byo barimo babwirwa.

Abaganga ndetse n'inzego z'umutekano bakwiye guhagurukira kwita ku bana bakiri bato ndetse n'ababyeyi, binyuze mu bukangurambaga bakora bafatanyije muri rusange.

Ibi ni ibikorwa by' ubukangurambaga ku bujyanama bw'ubuzima, abayobozi baje guhugura abaturage.

Inzego zigiye zitandukanye zirimo n'iz'ubuzima, akenshi zikunze gutanga amabwiriza ndetse n'ubwirinzi, ku bantu bagiye batandukanye, hagamijwe kugira ngo birinde indwara ndetse n'ibindi bibazo bashobora guhura na byo, igihe barenze ku byo babwiwe.

Ibikorwa by'ubukangurambaga, ku bijyanye n'ingamba z'ubuzima, bikunze gukorwa n'urubyiruko, hagamijwe kugira ngo ubuzima bw'abaturage bukomeze bumere neza.

Mu buvuzi bwa kizungu hari indwara zidashobora kuvurirwa kwa muganga, bigasaba yuko zivurirwa muri gakondo. Ibyo rero bikorwa igihe abantu babizobereyemo aribo bitaye ku abantu baba barozwe.

Mu buvuzi bwa kinyarwanda, abaganga kabuhariwe babugenewe, bakunze gusoroma ibyatsi bigiye bitandukanye bityo bakabikoramo imiti ivura abantu amarozi ndetse n'izindi ndwara zigiye zitandukanye.

Ibi ngibi bifatwa nk'ibyatsi cyangwa se ibihuru, bikunnze kugira amahwa yitwa ibitovu.

Mu rwanda rwo hambere wasangaga abantu bakora ubuvuzi cyangwa se bihura binyuze mu gukoresha imiti gakondo. Ikaba yaranagiraga akamaro cyane kuko bizeraga y'uko uko biri kose irabafasha.

Kuva na kera na kare ubuvuzi gakondo bahozeho mbere y'uko haza imiti y'abazungu yazanye n'iterambere byatumaga abaturage badakangwa n'indwara iyo ari yo yose bakabasha kubaho batagendeye ku miti ya kizungu.

Aba ngaba ni abaganga ndetse n'abajyanama bu buzima, bo ku bigonderabuzima bigiye bitandukanye.

Igihe abaturage benshi baba bazahajwe n'indwara zigiye zitandukanya, ni ngombwa ko bajya kwa muganga kugira ngo bahabwe ubuvuzi ndetse bakomeze bitabweho banakurikiranwa. Kwa muganga rero hakaba hamwe muri aho hantu hita kuri abo barwayi.

Mu ibitaro bigiye bitandukanye ndetse n'inzego z'ubuzima, bitanga ubufasha bukomeye cyane ku buzima bw'abaturage ndetse n'isi muri rusange, aho biba bishinzwe kwita ku barwayi bikanareba n'indwara bafite bakabahereza imiti ibagabanyiriza uburibwe.

Kwa muganga ni ngombwa ko haba hari umuntu wabugenewe uzi gukoresha ibyuma bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga kugira ngo ubuzima bw'abarwayi butangirika.

Mu rwego rwo kubungabunga ubuzima bw'abarwayi badashoboye kurya, abaganga benshi bakunze gutera abarwayi serumu, kubera yuko iba irimo byose abarwayi bakeneye, igihe batabashije gufata amafunguro kubera imbaraga nkeya z'uburwayi.

Inshuro nyinshi ubuyobozi bw'Igihugu sbuhyiramo imbaraga cyane kugira ngo bukomeze kubungabunga ubuzima bw'abaturage, bityo bikabegereza ibikorwa remezo birimo: ibitaro< imihanda ndetse n'ibindi, bityo umuturage akabasha kubaho mu buzima buzira umuze.

Hano ni ku kigo nderabuzima, abakozi b'ikigo nderabuzima cyangwa se bivuriro, barimo abaganga ndetse n'abasirikare bari kwifotoza.

Hagamijwe kubungabugwa ubuzima bw'abaturage. Leta ishyiramo ingufu nyinshi mu guhereza abaturage ndetse no kwegereza ibikorwaremezo birimo: nk'imiti ndetse n'ibindi bityo bigatuma babasha kugira ubuzima bwiza ndetse n'imibereho myiza.